Umuntu wicaye yegamiye ku nzu, afite telefone ku gutwi, yambaye imyenda y'umweru n'ipantaro, munsi handitse amagambo kuba hoteli yuzuye ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe.

Gana ikigo cyiza cy'ubwishingizi cyitwa radiyanti yacu nawe ujye mu bwishingizi bwiza buhoraho, komeza wizigamire wungukirwe agera kuri kane ku ijana ku mwaka.

Akaboko gateruye igishushanyo cy'inzu igeretse kabiri ndetse n'amagambo agira ati" biroroshye kurusha uko ubitekereza, rinda inzu yawe ibiza," bigaragara ko ari ubwishingizi bufasha abantu.

Sinshidikanya ko buritamu ari ikigo cyizewe cy'ubwishingizi bw'imodoka yawe. Ndakugira inama vuba ko niba ufite imodoka ukaba utarageramo, wakora ibishoboka byose ukageramo amarembo agikinguye.

Ikigo cy'ubwishingizi cya muwa, umuntu wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati, afite tabuleti mu ntoki, amagambo yanditse mu ibara rya oranje.

Ikigo cy'ubwishingizi cya Britam, kiragufasha kikaguhereza ubwishingizi ukabaho utuje, kirakubaza ngo ''Ese uriteguye tujyane, humura turi kumwe.''

Ahantu hose ubwishingizi ni ingenzi, Radiyanti yacu yo irakubwira iti, turi kumwe mu rugendo rwawe, tuguha ubwishingizi bw'ubuzima, kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe, urwego.

Umuntu uri kuvugira kuri telefone, wambaye imyenda y'umweru, munsi hari amagambo yanditse ati "kuba hoteli yuzuye ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe".

Ikigo cyiza gitanga ubwishingizi bw'imodoka bakita Britam, barakubwira ngo wihangayike n'igihe cyo kwishyura Breke Down ubwishingizi bwa Britam burabikemura, hitamo Britam inshuti y'ibihe byose.

Mu buzima iyo ubayeho ufite ubwishingizi, birakorohera kandi ukaba wumva ufite amahoro n'umutekano, rero ni byiza ko ugana ibigo by'ubwishingizi butandukanye, bikagufasha kugira ngo ubeho utuje.

Imyitozo ngorora mubiri nayo ifite agaciro ndetse n'akamaro mu buzima bwacu, baratwereka umuntu uri kutubwira ngo uyu munsi wuharirire kwiyitaho no kuruhuka maze ugire ubuzima bwiza.

Ubwishingizi bwa Sonarwa buragufasha rwose! Bugufasha mu kurinda ikinyabiziga cyawe, inzu yawe ndetse n'abawe, nawe utisize.

Sisitemu igaragaza ibintu byose byakorewe kuri konti yawe, itariki, ukwezi, umwaka, icyo wakoze, ndetse n'igihe wagikoreye.

Imana ya ba muri imshimiye, mu by'ukuri nkuko ubona uyu mugore nawe yarishiriye, ari mw'iduka, afite amafaranga, ari kuyabara, akamwemwe ni kose, iruhande rwe hari ibicuruzwa, ubwo rero nta mpamvu ataseka rwose.

Nawe ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga ukamamaza ibicuruzwa byawe. Aha haragaragara imyenda, amakoti meza amanitse, ari ahantu mu iduka ryiza, riteguye neza.

Ahantu hateguye neza hubakishije amabuye, hamanitse imipira ndetse n'ibitenge, handitseho butike, hirya bigaragara ko bacuruza imitako gakondo ikoze mu biti.

Ni karibu nawe wihahire imipira myiza ya rakosite igezweho, aha ngaha bacuruza imyenda itandukanye ndetse n'inkweto ntibazibagiwe kuko byose bijyana.

Ni iduka ryiza ricuruza imyenda y'ubwoko bwose, imipira, amapantaro y'abagore ibintu byose, nawe rero niba ushaka kwambara ukaberwa myarukirayo rwose urebe wihitiremo.

Nawe wakoresha imbuga nkoranyambaga ukamamaza ibicuruzwa byawe, uyu yakoresheje urubuga nkoranyambaga maze yamamaza ibicuruzwa bye, imyenda ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Imodoka nini itwara imizigo, abagabo babiri bafashe urufunguzo runini mu ntoki, rwanditseho ABG Akagera Motors, biragaragara ko uyu muntu ahaguze imodoka ashaka kujya ajya mu mahanga.

Imodoka nziza itwara imizigo, abagabo babiri bayihagaze imbere bafite urufunguzo mu ntoki rwanditseho ABG Akagera moto, bisa nk'aho hari umwe uyiguze muri bo.

Imodoka zo mu bwoko bwa Toyota ziparitse ahantu hamwe; iruhande yazo hari imodoka itwara imizigo iparitse, inyuma yazo hari igipangu cyubakishije amatafari ya buroke sima, hejuru hariho utwuma.

Imodoka nziza kandi nshyashya yo mu bwoko bwa Yundayi irakinguye imiryango yose, ku muryango w'iburyo hahagaze umukobwa mwiza ndetse n'uw'ibumoso, iyo modoka amatara arimo araka biragaragara ko ari abantu bagurisha imodoka.

Imodoka nziza yo mu bwoko bwa Hyundai, imeze neza pe, biragaragara ko iri kugurishwa miliyoni cumi n'ebyiri rwose, uyafite waza ukayigura kuko ni nziza.

Abagabo beza bahagaze hamwe bafite udukapu dutukura mu ntoki, hafi yabo hari imodoka yo mu bwoko bwa Mahindra ni shyashya, hagire nawe wigurira imodoka nziza.

Imodoka yo mu bwoko bwa Yundayi, iparitse ahantu heza cyane, hari amakaro meza, hateye irangi rya kake hejuru kuri parafo, hari n'itara ry'umweru riri kwaka, hanze urebye mu birarahure uhabona amazu.

Biragaragara ko buri kwira, aha ngaha ni ku Kagera moto, bacuruza imodoka nziza urabona ko umugabo rwose yiguriye imodoka nziza igezweho, hari urufunguzo runini bari kumuhereza ngo ajye kumva uko byifashe.

Umuntu wese agira inzozi ndetse n'indoto, byo kuba yatunga imodoka ye ku giti cye. Ibyo rero bigaragazwa n'uburyo ukora, ndetse n'intego ugira mu buzima bwawe.

Abantu batatu bari hafi n'imodoka y'imizigo, babiri bambaye utujire, umwe yambaye igisarubeti afite akantu gatukura mu ntoki. Abo babiri bafite urufunguzo runini rw'imodoka.

Imodoka nziza yo mu bwoko bwa Kia forte ni otomatike kandi bigaragara ko iri kugurishwa, niba ufite miriyoni icumi zonyine zizana rwose ucyure imodoka nziza.

Mu buzima bwa muntu yifuza gutunga ikintu cyiza iyo afite amafaranga, iyi modoka igaragara neza, igezweho ni iyo mu bwoko bwa toyota, niba ufite amafaranga rwose nyaruka wihahire imodoka nziza.

Ubusanzwe iyo tubara duhera kuri rimwe, tukagera kuri rimwe. Ibi biceri rero kimwe ni igiceri cya venti, ikindi ni igice cy'atanu. Kiriho ikawa ryagaragazaga ubutunzi bw'u Rwanda.

Amafaranga ni meza ariko agenda avugururwa bitewe n'igihe, iyi ni inoti y'ibihumbi bibiri u Rwanda ruri gukoresha muri iyi minsi, amaze igihe gito avuguruwe.

Ikoranabuhanga ni ikintu cyiza gishobora kugufasha mu bintu byose waba ukora. Uyu muntu arimo arabara amafaranga, afashijwe na kariya kamashini ku buryo bwihuse.

Kuva kera mu buzima bwacu twakoreshaga amafaranga iyi noti ni iy'amafaranga igihumbi twakoreshaga mu Rwanda yanditseho amagambo agira ati banki nasiyonali y'u Rwanda.

Icyapa gishushanyijeho utujerekani babikamo amata ndetse n'uducupa bashyiramo yahurute, kiri mu nzu kandi iyo nzu harimo intebe n'ameza.

Indobo ebyiri ziteretse ku meza imwe irimo amandazi, ku meza kandi harambitse ikaramu, urugi rusize irangi ry'ubururu, biragaragara ko ari nijoro kuko hanze amatara ari kwaka.

Abantu bari mu iduka, bacuruza amata, bacuruza ji, bacuruza amandazi, hari icyuma kibika amata ndetse n'ijage iteretse ku meza.

Buriya ntabwo umuntu atungwa n'ibyatogoshejwe n'amazi, ntabwo ariko ko bimeze. Ifarini na yo ifite ibintu byinshi ndetse ikurwamo ibintu byinshi by'intungamubiri bishobora gufasha umuntu.

Amata ni ingirakamaro mu buzima bwacu cyane cyane ku bana bakiri bato, ntawashidikanya cyangwa ngo ahakane ko agira intungamubiri nziza kandi nyinshi, ibi byatsi birimo amata uko bisa kose agiye kujyanwa ku ikaragiro.

Icyansi bashyiramo amata, akajerekani k'umuhondo, utw'umweru, ndetse tugiye twanditseho amazina ya ba nyiratwo, duteretse ku makaro meza, atuma ahantu hasa neza kandi hakagaragara nk'ahafite isuku.

Buriya umuntu iyo ariye abaho neza, akagira n'ubuzima bwiza. Iyi parato iriho ibyo twita ibiraha, bikozwe mu ifarini ndetse n'ibirayi banombye.

Ni byiza kumenya ko ikintu gishobora kuba cyangirika vuba maze nawe ukacyitaho ku buryo bwose bushoboka, iki ni icyuma gishinzwe gukonjesha ibintu, iyo usizemo ibintu kirabikoresha ukabisanga uko wabisize.

Amata ni meza mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko agira intungamubiri nyinshi, umuntu ari gusukira undi amata mu ijage kugira ngo nawe ayanywe ndetse bimufashe kugira intungamubiri.

Umuntu uri ahantu bacuruza amata, yambaye ipantaro y'ikoboyi, yambaye ishati y'umukara imisatsi ye irasutse, bafite icyuma kibika amata ngo atagira ikibazo.

Ikoranabuhanga ni ingenzi mu buzima bwa muntu emutiyeni nayo yarabyoroheje ubu urohereza amafaranga, wakira amafaranga bitagusabye kwirirwa ujya gushaka umwa ajeti cyangwa se undi muntu byose ni umurabyo.

Umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi, akenera ikoranabuhanga kugira ngo abashe kumenyana n'abantu bo mu duce dutandukanye, baganire ku buzima, baganire ku mibereho, bityo bungurane ubumenyi.

Icyemezo cyerekana ko umuntu yishyuye imisoro, gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Kiriho amazina ndetse n'amafaranga umuntu yishyuye.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, gitanga ibyangombwa byose igihe nta deni ushobora kuba urimo ahantu igihe wishyuye imisoro, bigaragara ko ari ikigo gifitiye Igihugu akamaro.

Raporo igaragaza uburyo amafaranga yakoreshejwe muri saneti bakeri 2021 . Bagaragazamo uburyo amafaranga yinjiye ndetse n'ayasohotse bagakora icyegeranyo cy'ayasohotse n'ayinjiye, maze bakareba ibyo binjije.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Tanzaniya ibihumbi bitanu, yanditseho banki ovu Tyanzania, yanditseho umubare gatanu n'amazeru atatu.

Amafaranga ni meza mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko adufasha kubona ibyo dukeneye mu buryo bwihutirwa, uyu muntu ari kubara amafaranga kandi menshi mu ntoki.

Urutonde rw'ibihugu, amadarapo yabyo, amazina yabyo ndetse n'izina ry'amafaranga bakoresha n'uburyo bagenda bayavunja kugira ngo bifashe abayakoresha.

Buri gihugu cyose kigira amafaranga gikoresha n'uburyo asa, aya mafaranga akoreshwa muri Kongo, ni amafaranga mirongo itanu, ni inote yanditseho kode igira iti k,d, gatatu, zeru gatanu, gatatu, gatandatu, zeru, rimwe, e.

Ikaze ku biro by'ivunjisha, uzane amafaranga ushaka ko tukuvunjira. Bitewe n'igihugu ugiye kujyamo ibyo bizakorohereza kubaho neza ugezeyo.

Icyapa cyerekana ko aha hantu bagira MTN Uganda, ubu ushobora kuba wakohererereza amafaranga Uganda Kenya cyangwa se umuntu uri muri Kenya cyangwa se Uganda nawe akakohereza amafaranga uri mu Rwanda.

Ikigo kivuja amafaranga cya josika bafasha abantu batandukanye kuvunja amafaranga yabo bitewe n'igihugu bumva bashaka kujyamo kugira ngo bitazabagora mu mibereho yabo.

Ikigo gikora ibijyanye n'ivunjisha ujyana amafaranga yo mu gihugu runaka wumva ushaka bakaguha ayo mu kindi urimo ushaka gukoresha, n'izo serivisi batanga.

Icyapa kigaragaza ahantu bavunja amafaranga ushobora kuzana amafaranga yose ushaka bakaguha amafaranga wifuza. Cyanditseho amagambo mu buso bw'umweru, y'umukara, ndetse n'umutuku.

Ibiro by'ivunjisha ry'amafaranga uzana amafaranga ushaka ko bakuvunjira bakaguha ayo wifuza bitewe n'aho ugiye kujya cyangwa se igihugu ugiye kubamo bikagufasha.

Ibiro by'ivunjisha ry'amafaranga uraza bakakuvunjira rwose nta kibazo, uzana amafaranga ufite wowe ugahitamo ayo baguha bitewe n'igihugu ugiye kuyakoreshamo kuko bikorohereza cyane.

Ikigo gikora iby'ivunjisha cyitwa "Virah Forex", aha ngaha uzana amafaranga y'igihugu runaka ushaka, na we bakagusubiza ay'ikindi gihugu wumva ugiye kubamo kugira ngo bizakorohere nugerayo.

Abahanga mu bukorikori bahozeho pe! Izi ntebe zikoze mu biti kandi urabona ko uzicaraho zikakuvura amavunane ndetse n'umugongo, bitakugombeye kwicara mu madiva, nk'uko abantu benshi babivuga.

Ahantu heza hateguye neza, harimo intebe nziza umuntu yicaraho akaruhuka, harimo amakaro meza, hari isuku ndetse n'ibirahure. Hateye amarange y'umweru, bigaragara ko muhaganiririye byaba byiza.

Intebe nziza, wakicaramo ugakira amavunane yose n'umugongo, ziri muri salo nziza, aho waganirira n'umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe utuje.

Umuntu wese yumva yaba mu nzu nziza kandi iteguye neza, izi ntebe ziteguye mu nzu nziza, harimo amakaro meza, biragaragara ko umuntu wese ufite amafaranga yabaho neza.

Igitanda cyiza kigezweho giteretse hasi hafi yacyo hagiye hari ibindi bisize shokora, ndetse n'ibindi bataramara gukora neza ariko nabyo biri mu nzira yo gusozwa.

Intebe, ameza bikoze neza byo muri salamanje, nawe wabigura ukabishyira muri salamange yawe, bigaragara neza, kandi bigira ahantu heza.

Ni ahantu heza habereye amaso, hari amarangi meza, hari indabo ziri mu mavaze meza, inzugi nziza, mu by'ukuri abantu bapanze gahunda yo kubaka iyi nzu, ni abahanga rwose bazi kwitegereza no gutegura.

Pisine nziza wakogeramo nawe ugakira amavunane, ahantu heza wakicara ukaruhuka umaze koga, si ibyo gusa, ushobora gufata ikintu cyose wumva ushaka nk'ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Amacupa abiri arimo amazi y'Inyange, ibirahure bibiri biri ku meza, agapaki k'ikawa na ko kari ku meza, birasa nk'aho bategura ikawa.

Abantu bazi koga nabarangira pisinine nziza rwose ifite ibitanda ushobora kuryamaho uvuye koga, ifite imitaka mushobora kwicaraho ikabatwikira, ndetse n'ahantu heza wafatira amafunguro n'ibindi.

Amafunguro ni ingenzi mu buzima bwa muntu kuko amufasha kubaho, hano hari imbuto ibyo twita deseri ndetse n'ibiryo by'amoko yose, uriyarurira rwose ukarya ibyo ubashije.

Iyo bugiye kwira haba hagaragara neza cyane iyo bacanye amatara y'umuhondo, bakaba barateguye ahantu bakirira abantu, bigaragara neza cyane nawe ushatse wasohoka rwose ukajya kuruhuka.

Radiant ni ikigo cyiza cy'ubwishingizi kiguherekeza mu buzima bwawe ndetse no mu byo ukora, kigane rero kiguherekeze mugendane, bizagufasha kugera kuri byinshi kandi utuje.

Inzu nziza kandi yubatse neza, hari umumotari uri gutambuka hafi aho mu muhanda ndetse n'indi modoka iparitse imbere y'iyo nzu. Hari jaride nziza ndetse n'ibiti bizanira amahumbezi abari hafi aho ngaho.

Sonarwa n'ikigo cy'ubwishingizi kandi cyiza, kigane kigufashe kiguhe ubwishingizi maze ubeho utuje nta guhangayika ngo nta bwishingizi ndimo.

Inzu ikinguye, hejuru hariho icyapa cyanditseho Purayime Inshuwarensi. Ni ishami rya Nyamirambo, imbere harimo umuntu uhagaze, bisa nk'aho ari gusaba serivise.

Ikigo cy'ubwishingizi Mayifeya inshuwarense kampani, cyakiriye umuntu bisa nk nkaho yaje kubaza amakuru acyerekeye kugira ngo nawe ashobore kuba umwe mu bafatanyabikorwa bacyo.

Iyo wateguye ahantu uzakorera, igihe cyose ugiye gukora umushinga birakorohera. Aha ngaha ni ku kigo cya Britam, ni heza, bakorera mu nyubako nziza cyane kandi igereretse inshuro nyinshi.

Inzu nziza igeretse inshuro ebyiri, ifite amarangi meza y'umweru, ifite ibirahure bya fime ndetse n'inzugi nziza, hasi haparitse imodoka nziza ndetse hari n'umuntu uri kugenda ufite idobo mu ntoki.

Igihe ugiye gukora igikorwa runaka jya ubandu utegure aho ugikorera, urebe niba hiyaguye cyangwa hateguye neza biragaragara ko saniramu ikorera ahantu heza, kandi ntawe utakwishimira kujyayo.

Abahanga mu bukorikori bazi gukora imitako, bazi kuboha, ibintu byose bakabigira byiza pe! Iyi mitako iragaragara neza, kandi igezeze ahantu heza cyane.

Isoko ryuzuye ibiribwa, imbuto, ibirungo, harimo abantu batandukanye, abamama, abapapa hari ibitoki, hari inyanya, hari ibitunguru ndetse na karoti.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imbuto zitandukanye, hari inyanya, hari ibitunguru, hari intoryi, hari amapapayi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, bigaragara ko ari mu isoko.

Imyenda itandukanye, iy'abana, iy'abagabo, iy'abagore, biragaragara ko hano ari mu isoko. Umugabo uri kureba ku ruhande bisa nk'aho agiye kugura imyenda.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, ibyo kurya, imyambaro ndetse n'ibindi byinshi. Hariho kizimyamwoto ndetse hakurya hakaba hari agakiyosike ka MTN kariho ibyapa byinshi.

Ibi bintu biratandukanye, hari imyumbati, hari amapapayi, hari ibitoki, imineke, abantu bicaye, umumama wambaye amarineti ndetse n'urunigi mu ijosi, abamuhagaze iruhande, umugabo uri kwibaza byinshi.

Transiporo ni nziza mu buzima bwa buri munsi, kuko igufasha kugera aho ushaka mu buryo bwihuse. Ushobora gutega moto, ushobora gutega imodoka, cyangwa se ugatega umunyonzi, nawe nta kibazo.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cyabugenewe gukorerwamo inama kirimo ameza yabugenewe ndetse n'intebe z'umukara zicayemo abo bantu bafite n'ama mashini bari kwiga ku kibazo runaka cyabahurije aho hantu.

MTN ni icyicaro cy'itumanaho kigira serivise zitandukanye, uyu muntu yari yagiyeyo gusobanuza ibijyanye na serivise ahasanga umukozi wabo na we aramusobanurira, imbere ye hari mudasobwa, ariko ari kureba muri telefone.

Biragaragara ko ahangaha ari ku kicaro cya emutiyeni kuko abakiriya baba bagiye gusaba serivisi zitandukanye abagura simukadi, ababitsa, ababikuza n'ababaza izindi serivisi bakora kugira ngo barusheho kumenya neza iki kigo ibyo gikora.

Umutaka usa umuhondo, hari abantu bari hafi yawo, bisa nk'aho hari igikorwa runaka kiri kuhabera, bakaba baje kumenya amakuru acyerekeye bityo nabo bagire icyo bamenya.

Agakiyosike ka MTN karakinguye, imbere harimo umuntu wakiriye umukiriya, bisa nkaho ari kumusobanurira ibyo MTN ikora na serivisi zayo.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Akapa gatoya ka MTN MoMoPay kanditseho imibare ushobora gukanda kugirango ngo wishyure n'ikoranabuhanga nta kintu bagukase, iyo code ni rimwe zeru umunani kane rimwe gatatu.

Umukozi wa MTN ari kumwe n'umuntu ufashe igare ry'umuhondo mu ntoki, bisa nk'aho ari kumuhereza telefone, inyuma yabo hari imibare yanditse, akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, urwego.

Ikoranabuhanga ridufasha ibintu byinshi mu buzima bwa buri munsi. Ubungubu uradowunilodinga apulikasiyo ya eyateli, ukohereza amafaranga ku buntu, bakaguha iminota cyangwa se bakaguha megabayiti, by'ubuntu.

Agakiyosike ka emutiyene karakinguye imbere harimo umuntu wakiriye abakiriya arimo abasobanurira ku bijyanye na serivisi batanga. Kuri ako gakiyosike kanditseho amagambo mu cyongereza.

Abantu babiri bari kubyina, bisa nk'aho ikigo cy'itumanaho MTN cyakoresheje ibirori ahantu, kuko hari abakozi babo baba baje gusobanura serivisi gitanga.

Niba wifuza serivisi inoze kandi yihuse korana n'ikigo safi, uragituma ibyo ushaka mu minota mikeya babe bakugezeho mu rugo utavuye aho uri, bigire vuba ureke gutinda.

Ni byiza gutuma cyangwa se guhaha ibyo kurya wibereye mu rugo, kuko ibigo byinshi bisigaye bikugemurira bikakugezaho ibyo watumye bitagusabye kuva mu ngo.

Kugura ibintu ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza ntabwo ukoresha igihe kinini we urishyura gusa bakabikuzanira uyu mu motari niko abizanye aje kubihereza uwabitumye.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ni tagisi vuwatire, isize amabara ya ruje borudo, inyuma ku kirahure hari amarangi y'ubururu, umweru ndetse n'andi magambo atandukanye.

Ni byiza kumenya uko bitwara igihe uri mu muhanda yaba wowe mugenzi cyangwa se wowe utwaye ikinyabiziga, ibyo bizabarinda ikibazo cy'impanuka ku buryo ubuzima buzaba bwiza.

Sare nziza y'uruganiriro iteguyemo intebe nziza zimwe twita amadiva, hari ameza ari ku mukeka mwiza ndetse inyuma hari sare bariramo nayo iteguye neza.

Buriya amafaranga ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu kuko ashobora kuguha icyo ushaka n'igihe ugishakira. Niba wifitiye amafaranga magana atanu mirongo itanu y'amadolari, i Kigali urahabona inzu nziza, uturemo wowe n'umuryango wawe.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Umuntu wese yifuza kuba mu nzu nziza, nta muntu uba utabifite mu nzozi, ahangaha iyi nzu wayibamo utanga ibihumbi magana atandatu ku kwezi, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo wayisanga Kigali i Remera.

Ni ukuri mu nzozi za muntu nta muntu utifuza kuba mu nzu nziza kandi igaragara neza, nawe rero ku gihumbi kimwe cy'idolari gusa buri kwezi, wabona inzu nziza yubatse neza kandi isa neza.

Rwose amafaranga agukorera umuti mu buzima bwawe. Iyi nzu, ufite miliyoni mirongo irindwi n'eshanu rwose, urayibona muri Kigali, ukiberamo utuje, n'amahoro menshi, ndetse n'umuryango wawe.

Inzu nziza isukuye kandi iteguye mu imbere harimo umuzungu, imbere ye hakaba hari umwirabura w'umugore bisa nkaho ateye intambwe ari kugenda, umuzungu nawe amukurikiye.

Nawe niba wifuza gutura mu nzu nziza zana igihumbi n'ijana cy'idorari buri kwezi maze wibere mu nzu nziza igezweho, uradusanga hano Kicukiro/ Kagarama mu mujyi wa Kigali.

Ntawe utifuza kuba mu nzu nziza, iyi rero iragurishwa miriyoni magana atatu mirongo itanu z'Amanyarwanda, iherereye ku Gisozi hafi na Kagugu, aha ni mu mugi wa Kigali, niba uyafite nawe waza rwose ukiturira mu nzu nziza.

Inzu nziza iteguye neza ihagazemo umuzungu ndetse n'umwirabura, iyo nzu irateguye cyane, harimo intebe nziza zo kwicaraho harimo tereviziyo nziza ureba.

igikoni cyiza wateguriramo amafunguro umuntu wese akifuza kuyarya, gifite ibikoresho byose kandi bigezweho. Ni amafaranga magana atanu mirongo itanu y'amadolari buri kwezi, maze ukakibona hano i Kigali.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Inzu nziza igezweho wakodesha, iri hafi na sitade, wayibariza i Remera kandi ibintu byose wabisangamo, tugereho rero tugufashe.

Wihangayika igihe ufite amafaranga kuko nawe watura mu nzu y'inzozi zawe muri Kigali, zana miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda maze witurire i Kigali i Kanombe, ufite n'ahantu uparika imodoka zawe.

Ufite ibihumbi cumi na bibiri by'idolari, wabona inzu nziza rwose iri muri Kigali mu Kagarama, niba wifitiye amafaranga, waba mu nzu y'indoto zawe.

Niba ufite indoto zo kuba ahantu heza dore ngiyi inzu iri ku isoko ni miliyoni mirongo inani n'eshanu gusa ifite ibyumba bine ubwogero butatu iherereye Kicukiro i Kigali .

Igihe wumva waba mu nzu nziza ukodesha imwe y'indoto zawe gana Kimironko Zindiro, urahasanga inzu nziza rwose ifite igipangu gisize amarangi meza.

Igihe wifuza kuba ahantu heza bigusaba gukora cyane kugira ngo wihaze kandi ugire ubushobozi bwo kuba waba ahantu ushaka, iyi nzu irakodeshwa ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe uyishaka wayisanga kibagabaga.

Abantu bicaye bambaye idarapo ry'u Rwanda hakaba harimo abagabo n'abagore, bakaba bafashe ku meza ndetse bafite n'amakayi imbere yabo yo kwandikamo.

Nimba ufite telefone uzakore uko ushoboye umenye kuyikoresha wandika ibintu byinshi bitandukanye mu mabara atandukanye bizatuma uyibyaza umusaruro uhagije.

Mu by'ukuri buri muntu wese agira indoto zo kuba ahantu heza kandi hateguye neza. Iyi hoteli iragaragara neza kandi igihe ushaka kuyiraramo ijoro rimwe uzana amadolari ijana na mirongo itanu, washaka kuyiyaramo ukwezi ukazana amadolari igihumbi na magana inani. Ifite pisine ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu isize irangi ry'umukara n'umweru, imbere ifite parafo ya langete, iboneka Kigali Kimironko, irakodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inzu nziza ikodeshwa ifite icyumba kimwe cyo kuraramo, ifite ubwogero bumwe, ikagira naho bicara, ifite igikoni cyiza. Ni ibihumbi magana abiri yonyine maze ukaba mu nzu nziza wifuza kandi iteguye neza. Tubarize i Remera.

Ikoranabuhanga ni ryiza mu gace kose k'ubuzima ndetse n'icyo waba ukoramo cyose. Abashinzwe umutekano barahereza bagenzi babo serivisi zitandukanye, turabonamo abasirikare ndetse n'abapolisi.

Umucuruzi w'imyenda, inyuma ye hari imyenda y'abagore, amakanzu meza atandukanye, bigaragara ko hari ibintu afite mu ntoki ari kubara. Ubucuruzi ni bwiza nabwo buradufasha buri munsi.

Amavase meza arimo indabo zitandukanye ateretse kuri etageri mu byiciro ahongaho harimo amatara yaka ndetse n'amarangi meza n'amakaro .

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza yanditseho amazina ya nyirayo, akarere aherereyemo, igihe yavukiye, hariho ifoto ye ndetse n'imyaka azayivurizaho yose.

Umuturirwa mwiza ugeretse inshuro nyinshi, amatara ku muhanda, ibiti bizana amahumbezi ndetse n'akayaga, imodoka, kwasiteri, toyota ndetse n'umuhanda mwiza.

Umuntu wambaye ikositimu nziza ishati y'umweru nziza, karavate irimo utubara tw'umweru n'ubururu, yogoshe neza afite indangururamajwi mu ntoki bisa nkaho ari gutanga ikiganiro ku byerekeye ubwisungane mu kwivuza.

Kwizigamira ni byiza cyane mu by'ukuri biragaragara ko umuntu wizigamiye abaho neza. Iyi foto iriho umuntu uhawe amafaranga y'ubwizigame ndetse n'ubwishingizi bw'ubuzima.

Iyo wizigamiye kare ugira amasaziro meza, iki ni icyapa kigaragaza Ejo Heza, hamwe umuntu agenda yizigamira udufaranga uko akoze, maze mu masaziro ye bakazagenda bamwishyura ayo yabikije n'inyungu yayo.

Abantu b'ingeri zitandukanye barahagaze bari kwifotoza harimo; umugore, harimo umukobwa, ndetse abasigaye n'abagabo bambaye amakositimu. Inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'ubwisungane mu kwivuza.

Burya ubuzima ni ingenzi kandi tugomba kubusigasira tubwitaho, aba babyeyi baricaye aha ngaha ariko bisa nk'aho bari baje Kwa muganga kugira ngo ba bafashe mu kibazo cy'ubuzima urabona ko bafite amakarita yo kwivuriza.

Ahantu heza muri supamaketi bigaragara rwose ko umuntu wese yifuza kuhahahira, uyu muzungu ari kuhahira ibintu bitandukanye nk'uko ubibona muri kariya gasanduku ari gushyiramo ibyo yahashye,

Ikoranabuhanga ni ryiza mu bintu byose wakora, umuntu arimo kwishyura akoresheje ikarita bitamusabye kuzana amafaranga mu ntoki, ni byiza biragufasha rwose si ngombwa kujyana amafaranga mu ntoki ahantu hose.

Kurya neza mu buzima ni byiza, kuko bikongerera ubuzima bwiza. Reka tujye dukoresha mayoneze, nk'uko iki kiganza kibigaragaza, mayoneze ni ingirakamaro.

Foregisi biro, manigaramu, wesitani yuniyoni, ubu bwose ni uburyo abantu bashaka kohereza amafaranga mu bihugu by'amahanga bakoresha kugira ngo agere kubayagenewe.

Imineke, inanasi, ibishyimbo, ibinyamisogwe ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Biragaragara ko aha hantu bahacururiza ibintu, nawe ubikeneye waza ukabigura.

Aha ni muri supamaketi heza cyane, hari ibyo kunywa bitandukanye fanta zo mu bwoko bwa koka kora, hari amaji atandukanye, hasa neza kandi harateguye.